Iki ni ikibuga cy'indege, indege zihagurucyiramo. Ndikubona indege yahagurutse iri mu kirere igiye yafatiyeho kugira ngo igere aho ijya kandi ikomeze, ndikubona haba hariho n'umwotsi.

Ugu ni umuti gufasha ibihingwa gukura harimo inyanya, imboga kugira ngo bitange umusaruro mwiza, kandi bibe byakwera cane cane kugira ngo bitange inyungu.

Icyuma kiri gutera umuti inyanya gikoreshejwe n'umuntuntu uri gufuhirira inyanya. kandi ni ugukoresha umuti wabigenewe.

Ikiyaga ku nkengero hariho ibiti， mo hagati hariho ikirwa giteyemo ibiti，ikirwa gituyemo n'abantu.

Amafi gariho sereri, gakaba gariho urunyanya , gakaba gariho n'amafi bakoresheje inyanya gasa n'umutuku hakaba hariho na maronji bakase.

Aga ni amafi abaga yarobwe mu nyanja akazanwa ku isoko gucuruzwa ,akaba hegeye iruhande umunzani go gucuruza ago mafi, kubera ko bagagurishaga bakurikije ibiro by'ifi. Bakagurisha buri kiro buri kiro, cangwa se ukeneye n'ibirenze ikiro bakamuhereza ariko babanzaga bapima.

Iki ni ikiyaga bubakiyemo utuzu basakaza inzitiramibu, hirya hafi yayo hari ishyamba ririmo ibiti, hakaba harimo n'urunyanya rw'umutuku.

Ubu ni ubwato bari kuja, buri hafi y'ikiyaga. Ubwato babukoreshaga bari kuroba amafi, bakabukoresha bari kwambutsa abantu bagiye hirya y'ikiyaga, bakabukoresha bari kugasha ibintu bitandukanye kandi burabafashaga.

Ubwato buri mu kiyaga bufite ibiti birebire bikubise hirya, ubwato burimo abantu hakaba mo hari mo umusare uri kugasha mu bwato.

Indobo iri mo amafi bari gushira mo akayunguruzo bakayungurura, bakayakura mu mazi yumutse kugira ngo bagakure mu mazi.

Ubungubu ni ubwato abantu barikugasha ,ubwato buroberwamo amafi yo kurya nahantu abantu batemberera haba hatuje kubera amazi abasuma hirya no hino.

Ivi iri kotswa kuri rondereza hejuru hari icatsi gihari cy'icyatsi hariho itunda ryironji ba bakase ni ivi b ryabaye bibaye ubu.

Iki ni igikakarubamba giteye hafi y'igipangu harimo ku mpande ibyatsi bagiye bagisasira , ibindi byatsi byagiye byimeza cyarakuze cyane kiragandara.

Umurima gurimo ibinyamugorigori bahinzemo ibigori, gukaba gurimo n'imishingiriro zegeretse ku ruzitiro, hakaba hari hirya n'amazu y'abatuyi.

Umurima gurimo ibyatsi, hirya harimo hajya hirya hariho gitari, imbere yaho hariho ibiti bateye bikiri bitoya bitari byamera.

Uyu ni umurima wari uhinzwemo ibigori, imvura yaraguye itandukanya ubutaka, ibirayi byari birimo ntabwo bimeze neza, kubera ko ubutaka bwagiye buri gutandukana kubera imvura.

Iki ni igihingwa cy'igitoki giteye mu murima, hafi hariho n'ibidariya hakaba harimo n'ibigori byahinzwe muri ugu murima kugira ngo byose biyjanirane.

Ibitoki biteye mu murima hariho n'isombe, hakaba harimo muri ugo muririma n'ibigori. Ku ruhande hakaba hariho n'indabyo, hirya hakaba hariho n'inzu.

iki ni igiti giteye hafi y'urugo ubwiza bw'ubusitani kigafasha kuba ubusitani bwasa neza cane kugira ngo kizakure haje haraza amahumbezi.

Umurima gwa karoti guhinzemo karoti guriho, bari barahinzemo n'ibigori hakaba harimo n'ibiti no hirya y'aho hakaba hakikijwe n'ibiti.

Igitari kirimo ibiti biteye ,harimo ibiti bikuze, hakabamo n'ibiti bito, harimo ibiti by'amabuti ,hakabaho n'ibiti bitaramaburiti byo wakwasa ukubaka.

Uyu ni umurima bari guhinga, wasaruwemo ibigori, bashaka guteramo ibindi bihingwa, wegereye hafi y'igitari, kandi uyu murima bari kuwuhinga imitabo itari purande, imitabo yegutse.

Abantu babiri umugore n'umwana umugore ahetse umwana mutoya afashe akajerekani yikoreye indobo afashe n'agafuka mu ntoki bari kugenda impande yabo hariho uruzitiro rw'ibidodoki, hakabaho igitoki, hakabaho uruzitiro rw'indabyo, hakabaho igiti, imbere yabo hariho inzu.

Igitari kirimo ibiti by'intufe, harimo ibiti bikiri bitoya n'ibiti by'amaburiti bitari bya kura cane.

Ibinyomoro bifasha umuntu kongerwa amaraso. Ni imbuto nziza cyane. Abantu bakunda ikinyomoro cyongera intungamubiri cyane cyane ku muntu mukuru, cyangwa se ku mwana kiramufasha mu mikurire, kandi iyo urya ikinyomoro uba wumva ubuzima bugenda neza kubera ko ikinyomoro kigufasha mu kongera amaraso.

Umurima guteyemo ibirayi hakaba harimo igiti k'inganzamarumbo cyashamitse amashami menshi, bikaba biriho uruzitiro rw'ibidariya n'ibirayi bigiye kwera byarangije guhungura ubwatsi.

Amabuye g'amagaraviye ni menshi cane, baragahonze. Ni amabuye garundanyije, gari ku muhanda kugira ngo imodoka izaze ibone uko igatwara, hari hirya hariho ibyatsi n'ibiti.

Igitoki giteye hafi y'urugo cegereye uruzitiro ruriho ibisusa n'ibidodoki, kikaba giteye mu murima guhinzwemo ibigori. Umurima gukaba gwari gurimo n'isanduruma na nderera yararanzaranze.

Umurima guteyemo igitoki, gurimo n'imboga zitwa soroma ugaruke zigiraga igiti kirekire hakaba harimo n'ipoto ry'umuriro.

Ubu ni ubuhinzi bw'igitoki ,igitoki kandi ni ingenzi cane mu biribwa bigize umubiri w'umuntu, abantu benshi baragikundaga cane mu ku kirya mu rugo, mu ma hoteli ,mu bukwe ahantu henshi hatandukanye.

Izindi voka ziri ku meza bari kugenda batondeka mu dukarito, bakagenda bari kutugerekeranya bari kuzitondeka neza.

Iyi ni inzu irimo: Ibitunguru, ikaba irimo na karoti, ikaba irimo n'amagi ikaba mu mpande hari senyenge.

Ibi ni ibihaza bikoreshwa mu kurya mu rugo babiteka mu bukwe, babiteka no mu mahoteli, ni ibyo kurya byiza biryoshye bya kinyarwanda.

Isoko bari gucururizamo inyanya, bagacururizamo imyembe, bagacururizamo amafu gagiye gatandukanye, bagacururizamo amavuta, bagacururizamo amapavuro, harimo n'imitaka za emutiyeni.

Aga ni amatunda ga oranje garibwa gafasha abantu mukongera amazi mu mubiri .Ni amatunda aza gaza gavuye mu bihugu byo hanze kubera ko ariyo gahingirwa mu Rwanda ntago gahingwagamo.

Abaturage bari kubagara ibishimbo byabo ,kubera ko ibishimbo bibahaga umusaruro mwiza cyane .Ibishimbo bifashaga abantu mu mirire bakarya neza byongera intungamubiri mu mubiri niyo mpamvu ibishimbo bigomba kwitabwagaho.

Aha ni ahantu hari imyembe nyinshi cane zigiye zitandukanye, hari ho n'umuntu ufashe imyembe ari kwerekana imyembe zihari ziri mu maparitoma, ziri ahantu hatandukanye hari mo izihiye cane n'izidahiye cane.

Uyu ni umugore uri mu murima gw'inanasi, afashe inanasi yeze cane kugira ngo yamamaze, abantu baje baraja kugura amananasi mu murima we abone abakiriya bamugurira.

Aba ni abantu bari gusarura inyanya zeze mu murimo. Bari gusarura inyanya zeze bari kuzerekana, bari gushira ku isoko kugira ngo bajye barabona abakiriya babaguriraga inyanya.

Akameza gateretseho agakarito hejuru y'agakarito hariho inkoko iriho ibihaza bya wotameloni hirya hariho ibase irimo amaronji hirya hariho amavoka hirya hamanitse agafuka ka bucengende.

Umurima gw'ikwawa guri mo abantu bari gusoroma ikawa, bahetse ibisero mu mugongo, bifashishije ko banahambira n'imishumi, bakenyeye n'amashashi.

Imineke ziri mu kantuza gakozwe nka regitango, aho zibikwa neza, zikabikwana isuku nyinshi cane, kugira ngo zitabaza kwangirika.

Aya ni amateke akoreshwa mu kurya, hakaba hariho n'ibijumba bikoreshwa mu kurya ,kandi ibi biryo bifasha abantu mu mibereho kuberako ari igihingwa ngandurarugo kugira ngo abantu babone uko babaho neza.

Inka zitatu ziri mu murima w’ubwatsi， harimo inka y'umukara， hakamo ebyiri z’ikibamba.

Aga ni amatunda gari mu ibase , aga ni amatunda bitaga amatunda g'umukara ,ni igihingwa gihingwaga hano muri musanze ,gajyendaga gararanda ku biti ,canga kakazamuka hejuru ku biti gakerera hejiru.

Avoka ifasha abantu mu mirire, kandi avoka ni nziza cyane kubera ko yifitemo amavuta. Avoka ikorwamo amavuta yo mu mutwe yo kwisiga. Avoka yifitemo ubundi bushobozi buhambaye cyane, irararyoha cyane ni igihingwa cyiza ngandurarugo.

Uyu ni umugore uri mu murima w'ibirayi, ibirayi bitari byera, bitari byagira uruyange, yambaye hejuru y'ishati ashyiraho ikindi kimanuye hepfo k'icyatsi, akitega n'igitambaro kugira ngo akore akazi neza,

Ugu numurima bari guhingamo, bagaca imyobo bakoresheje amasuka bagashiramo ibirayi ,abandi bakagenda bari gutsibya kugira ngo ibirayi babitwikire bijeho itaka.

Iyi ni imiteja iribwa, mu biryo byiza, abantu benshi barayikunda kubera ko ari ikiribwa cyiza gifasha umubiri, umubiri ukamererwa neza.

Amatunda y'imyembe ari ahantu yegeranye imyembe imwe iraye isa umutuku, indi ntabwo ihiye isa ni icyatsi, indi iri kugerageza kujya gusa kujya gushya ni amabara yombi ni icyatsi n'umutuku.

Ibigori biri hasi byinshi cane ibindi bipakiye mu mufuka, hariho umufuka wegereye ibigori biri mu mifuka ibigori batari bahungura biri kubitititegiri byabo biri ku mahundo.

Aba ni abagabo bari mu birayi, ibirayi bimaze kugira uruyange, ni ibirayi bimeze neza, byeze cyane, bizatanga umusaruro mu gihugu cyacu.

Iki ni igisero, basoromeramo ibishyimbo, cyangwa cyifashishwa mu gusoroma indi misogwe itandukanye mu murima, cyangwa se gutwaramo ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo yambaye agapfukamunwa, afashe kuri voka ishamitse ku itabi ry'igiti cya voka, hasi hari ibyatsi byameze. Inyuma ye hari indi voka ifite uruyange, hirya hari indi voka nayo ifite amashami ajya kumwegera.

Aha ni ahantu hari inyanya ziri mu bisero. Harimo abantu bari kugura n'abagurisha. Hafi y'aho inyanya zisarurirwa, bazizanye ku muhanda bazishyira mu bisero, kugira ngo babone ukuntu bazigurisha.

Avoka basatuyemo ibice bibiri. Igice kimwe kirimo ikibuto, izindi avoka ziri ku ruhande ni voka ziri mbisi zitari zashya.

Abagabo babiri bahagaze mu murima gw'ibishimbo, ibishimbo bifite imiteja bishingiriye, bishingiriye byatonze ku mishingiriro bikabuga hejuru ku mitwetwe.

Voka isatuye, irimo igice kimwe kiriho ikibuto cya voka, giteretse ku tubaho bagiye babaka.

Uyu ni umurima w'ikawa bari gusaruramo ikawa, ikawa ni igihingwa cyifashishwa mu Rwanda ni igihingwa ngengabukungu itanga umusaruro mu gihugu cyacu. Ikawa ni igihingwa kigurishwa mu bihugu duturanye byo hanze.

Bari gupakurura ibitoki bari kubikura mu modoka, umwe ari hejuru ari guhereza undi kugira ngo bibafashe bibashe koroha babone uko babigeza mu soko.

Abantu bari mu murima w'ibirayi, bafashe igihombo c'amazi, bari gucucira mu rugu, murima gurimo ibirayi.

Amatunda atandukanye hariho ibinyomoro bihiye cyane biri ku nkoko, hakabaho ibinyomoro bidahiye, hakabaho watameruni hakabaho n'amaronji.

Iki ni igipapayi cya kizungu kibagamo imbuto kandi kijyagamo amazi kandi ntabwo gihingwaga hano mu Karere ka Musanze, gihingwaga ahantu hari amayaga havaga izuba ryinshi.

Ibi ni ibirayi by'umutuku bamaze gukura mu butaka bakaba babirunze ikirundo kimwe kugira ngo babone uko babitoragura bari kubirobanura bakuremo ikinini n'igitoya.

Ugu ni umurima w'ibigori umubyeyi arimo kubagara kugira ngo ibigori bizamuhe umusaruro umushimishije, kandi ibigori bitanga umusaruro kuko ni byo batonoramo kawunga bakanywamo n'igikoma.

Aga ni amapera, gamwe bagakase gasa n'umutuku mu nda, agandi ntabwo bagakase gararambitse, aga ni amapera.

Iyi ni imigozi y'ibijumba, n'isuka bari gukurisha ibijumba, mu murima uteyemo ibijumba nta kindi kintu kirimo.

Amashu abantu baje guhaha, amashu, abantu batatu, harimo umugore uhetse umwana, n 'undi mugore wambaye umupira w'ingofero.

Ibirayi biri mu mufuka gw'ibirayi, ni ibirayi by'umutuku bya kinigi bifite amaso, ni ibirayi binini cane, ni ibirayi byeraga mu karere ka Musanze.

Iyi ni ihene, ni itungo ryohererwa mu rugo, kandi ritanga umusaruro, rirabyara igatanga n'ifumbire mu rugo, ifumbire igafasha aba mu rugo kujyanwa mu mirima, umurima ukera neza kandi igatanga n'umusaruro, kuko ijya irabyara.

Uyu ni umuntu ufite amashu gatekwaga mu rugo, mu bukwe n'ahandi hantu hatandukanye, ni ikiribwa kiza kiryoha, ari mu murima w'amashu kubera ko ari igihingwa gitangaga umusaruro.

Indimu eshatu imwe bayisatuye hariho igice kimwe, ikindi gice nta gihari hariho amababi, ni indimu zitoshe zisa n'icyatsi.

Izi ni nyanya zihingwa mu murima, zikaba zicuruzwa mu masoko atandukanye, kandi zikaba ziribwa n'abantu hafi ya bose kubera ko ari nziza cyane.

Ibi n'ibirayi bashize mu mufuka bakabipakira , abakarani barabicekaga bakabishira mu modoka bakabijyana kubicuruza i kigali n'ahandi hantu hatandukanye babonaga isoko , kugira ngo umusaruro bawuboneho inyungu.

Mu murima uteyemo intoryi, harimo n'ibiti bigiye kuzifata, kugira ngo zitabasha kuba zagana hasi, kugira ngo zidakora ku butaka ni zera zizerere hejuru mu kirere neza.

Aga ni amateke gahingwaga mu murima gakaba gafashaga abantu kubona ibyo kurya. Abayahinze bakaba baja no kugagurisha mu isoko bakabona amafaranga. Amateke garakundwaga cane, mu biribwa abantu bagendaga bahaha mu masoko.

Iki giti cyeze imbuto, amatunda y'indimu kandi indimu zifasha mu mbuto umubiri ukenera, cyane cyane ku muntu uba warwaye inkorora, zikamufasha zikamworohereza.

Umugore ari mu murima ari guhinga ahingishije isuka. Yambaye ishapure, inyuma ye hariho ishyamba hakabaho n'ugundi murima gudahinze.

Umugabo ahagaze mu murima gw'amatunda ari kwitegereza amatunda geze n'agateze. Yambaye agapira k'umuhondo, yambaye agapfukamunwa, amatunda gafatishijweho ibiti by'inturufe.

Umugore afashe ibiti bahohokeye mu mashashi kugira ngo ibyo biti bikure neza, bazabone ukuntu babitera bifite imizi neza.

Aba ni abaturage bari guhinga muri bari guhinga karande. Harimo abari guhinga imirima agiye irimo ataba umwe ari hasi y'undi bahinga buri wese akoresha imbaraga.

Abantu bari gukorera amashu, barikongeramo ifumbire, bagasubiranyaho itaka, kugira ngo amashu azatange umusaruro mwinshi bunguke.

Indimu zishamitse ku giti, harimo izeze zisa n'umuhondo, izindi nta bwo zari zera. Hariho amababi y'icyatsi.

Igihaza kinini gisa n'icatsi harimo umuhondo kikaba ari igihaza c'ikinyarwanda, igihaza cy'idegede gikunda guhingwa inaha muri Musanze.

Mu murima w' ipureteri harimo abantu bari gusoroma ipureteri, bafite indobo basoroma bunamye barobanura ipureteri zeze, kugira ngo ari zo bazagurisha.

Amavoka gari mu tubuwate twazo hejuru y'amavoka hari utugozi bagiye baratera mu mpande enye duhurira hagati, ni utubuwate dutanu twose kandi turimo amavoka.

Umugabo ahagaze mu murima ari kwerekana umurima, umurima gurimo ibyatsi byameze inyuma y'umugabo hariho inzu yibati, inzu y'ibati ishinze n'ibiti ntabwo barayikomanya. Uyu mugabo kandi yambaye ingofero n'amataratara.

Iyi ni inyubako yo kororerwamo inkoko. Inkoko zitanga umusaruro ni inkoko za kijyambere, ni akazu kubatswe neza ko kuzajya karafasha inkoko. Mukubona ibyo kurya, amazi kugira ngo zikore neza zitanga n'umusaruro.

Umurima gurimo ibigori byahushwe n'umuyaga bikaba byaryamye ,byarambaraye ,bisa n'ibigiye kugwa.

Amasaka gahinze mu murima ni amasaka gamaje, gamajije kugira ibitete, ariko ibitete bitangiye kuzanamo impeke z'amasaka. Amasaka gakaba gafite n'ibibabi ku mpande mu ngingo.

Umurima gw'ingano gurimo ingano nyinshi cane zicucitse, zegereye hafi y'ibiti bikikije ingano. Ingano zikaba ziri zatereye, ingano zikaba zisigaje kuma.

Uyu mugabo bamuhaye mikoro ari kuvuga ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibigori，yarasaruye ibigori arabimanika mu nzu kandi bitangaga umusaruro.

Ubutaka bwubakiwe hejuru, hasi bukaba bufite utugozi tugiye turanyuramo, twubakiwe kijambere kugira ngo ibihingwa birimo bizagende neza.

Imifuka birimo ubunyobwa ni imifuka itanu abantu babiri, hari ubunyobwa bari kurobanura mo muri iyo mifuka.

Mu guhura ibishyimbo basaruye kugira ngo babone umusaruro basaruye mu buhinge bari barahinze. Ni ababyeyi babiri bafatanyije kandi ibishyimbo bifasha abantu muri rusange mu byo kurya bya buri munsi n'ijoro na ku manywa.

Ubu ni ubuhinzi bwo guhinga soya. Ubu butaka wawuhinze karande kugira ngo izi soya zitagenda ziregerana cane kugira ngo zizatange umusaruro hazabe harimo indego ndende.

Abagore babiri bari kuyora mu mabasi ubunyobwa. Bari gukoresha amabasi ane biteze n'ibitambaro, bari kuyora biteze n'ibitenge, bari kuyora barashira mu mifuka.

Ibigori biramanitse ku biti bashinze, ibindi barabitambika kugira ngo babone uko bamanikaho ibigori bizahumire bisa neza.

Soya ihinze mu murima gw'indambure， mugari， muremure，guzitiye， ikaba itari yagira uruyange ngo izane imisogwe. Imisogwe izavamo umusaruro.

Igihwagari giteye mu murima cyarakuze gifite ibibabi，kikagira n'ibihwagari biriho amashami y'umutuku，hirya hariho ibitunguru， mu mpande harimo seleri，ku mpande handi harimo ibishyimbo.

Umurima w'ibigori guhinze mo ibigori byegeranye, bicucitse, ibigori bikiri bitoya cane, ibigori by'inongi bitari byakura ngo biheke.

Aya ni mageri ahinzwe mu butaka, hakaba harimo na karoti, hakaba barawubakiye bakoresheje imbaho, bakaba harimo na gatonga basoromeyemo amajeri.

Ibishimbo biteye ku misitari bigiye byegeranye, ni ibishimbo byinshi cyane biri mu murima, biriri mu kibaya, ni ibishimbo bigufiya bidashingirwarwaga ngo bizamuke, byereraga aho biri.

Umugore ari kugosora, ku ntara ibigori, inyuma ye hari umufuka, inyuma ye hari inzu, hirya hari igitoki, hirya hari n'uruzitiro rw'ibitufe.

Ubunyobwa bwanitse ku birago, hari ubunyobwa basangize, hari ubundi batari basanza, batari banika, hari ho abari kubwanika.

Ababyeyi bari kugosora amasaka, amasaka ni igihingwa gihingwa mu rwanda gifasha abaturage mu kwiteza imbere, ni igihingwa ngengabukungu kubera ko amasaka avamo igikoma cyo kunywa, abantu banywa imisururu ibigage niyo bakoresha.

inka ziri mu rwuri aho baziragiriraga, harimo inka y'ikibamba ifite amahembe gazamutse hejuru gateganye, gateganye, garebanye.

Umugabo ari inyuma y'inka, yambaye agapfukamunwa, inka isa n'ikibamba ifite amahembe gigondoye gagiye hejuru, inyuma yaho bo hariho ibyatsi byakuze birebire bisa n'icatsi.

Inkoko ziri aho ziri aho mu karunduru kazo ni imishwi. Bashizemo umunzani, bari gupima umushwi ngo barebe ikiro ufite. Harimo aho zigomba kurira ibiribwa byazo, hakabamo n'umugabo uri gupima ibyo biro by'inkoko.

Inka ihagaze ifite ibara ry'umweru, ikagira n'ibara ry'umukara, ikagira n'irindi bara mu nda. N'indi nka iri ku ruhande hirya ifite ibara ry'ikibamba. Zishaka kuja mu kiraro ziruhande rw'ikiraro.

Abagabo babiri bagiye kwegerana, umwe afashe ku nka, inka y'igihogo, ifite amahembe gwigondoye, yashyize umurevuro ku biti biri imbere ya yo.

Veterineri ari gutera urushinge ihene, ihene barayifashe inyuma ye hari abandi bari kumwitegereza ibyo ari gukora.

Izi n'inka zibaga mu kiraro cya cya kijambere ziriragamo ubwatsi, ntaho bazisohoraha hanze ngo zijye gushyirisha ubwatsi, kandi n'inka zitangaga umusaruro.

Ingurube ihagaze mu mbuga, imbere hari urugi rw'igipangu rw'umutuku rufunguye, hirya hari udukwi, iri kugenda, ukuguru kumwe kuri inyuma ukundi kuri imbere.

Ubworozi bw'ingurube bwororerwa ahangaha muri iki gihugu ,ingurube zitangaga umusaruro kubazororaga ,kandi zitangaga ifumbire ku bazororaga banahinga bikabafasha cane mu iterambere.

Ikiraro c'inka, inka zorererwamo, inka ziriragamo ubwatsi. Kiba gikozwe neza kandi gikoranwe isuku, ziba ari inka zitanga umukamo kandi zitangaga n'ifumbire zigatanga umusaruro.

Umuntu ari guha inkwavu ubwatsi, inkwavu ziri mu kironoro cazo, umugabo ari kuzigaburira yambaye ingofero n'ishati y'umutuku hafi y'ibitoki.

Izi ni ihene zororerwaga mu rugo, ni ihene zitangaga umusaruro, kandi zitangaga n'ifumbire ku bantu b'abahinzi bahingaga ubuhinzi bwa kijyambere, zigafasha no mu kuzamura iterambere ry'urugo n'ubukungu, kubera ko zirabyara.

Amagi menshi cane gari ku matureyi. Ni amatureyi agiye atandukanye apanze neza ku buryo amagi atakwangiririke ngo hagire igi rimeneka. Ari muri sale bagiye barapanga amatureyi neza.

Ubu ni ubworozi bwa kijyambere bw'inka zororerwa mu kiraro. Kandi ni inka zitanga umusaruro. Zitanga umukamo. Ni inka zigezweho, ni inka zifite kubyara, inka nziza cyane, zigateza imbere nyirazo, kandi no muri rusange zigateza imbere Igihugu.

Ingurube ziri mu kiraro ine . Ziri kurisha muco bazubakiye zizabe zirarishirizagamo mu kirunduro.

Izi ni inka ebiri zifite amahembe .Zikaba ari inka zihagaze zemye zegereye ku mpande ku nkuta y'inzu iriho ibiti.

Udukwavu turegeranye turi mu kirunduro, ikirunduro cyatwo bacyubakishije imbaho, hasi barisaho na sima, kuriyo sima bazamuyeho agafondasiyo, kugira ngo kegerane n'imbaho.

Abana babiri bari mu muhanda bavuye kuragira amahene ,baratashye bari kugashorera zimwe zikajya kubacika zikajya mu shyamba.

Inka ziri kurisha mu rwuri rwazo hafi y'ibiti ,hafi y'igitari zikaba ari inka nyinshi ariko zitari nyinshi cane.

Inkoko ziri mu nzu, wazubakiye ,hakaba harimo utunuza bashizemo zinweragamo amazi, hakaba harimo....

Ingurube ziri mu kirunduro ari ingurube itanu .Itatu zirahagaze, izindi ibiri ziraryamye ziri mu kirunduro nta bwatsi bazishiriyemo bwo kurisha.

Iyi ni inka iri mu gisagara. Iri aho igombaga kurishiriza ubwatsi .Inka ibyibushye cane, inka y'ikibamba ifite amatwi, ifite icebe rinini.

Abana bahagaze ku muhanda harimo n'abantu bakuru bakeya. Abana bamwe na bamwe bafashe impigi baziziritse mu mirunga inyuma yabo hariyo hariho abantu bandi hariho n'inzu wabo.

Aya ni amagi ari mu matureye, amagi abantu benshi barayakoresha barayakunda bayarya, batekamo imireti ya sipesiyale ni ikiribwa gikoreshwa ahantu hatandukanye mu mahoteli, mu rugo, mu bukwe, ni ikiribwa kiribwa n'abantu benshi.

Ingurube ebyiri ziri mu kirunduro, zirarya, imwe iraryamye, iri kureba imbere, indi iryamye iri kureba inyuma.

Inka barikuyitera urushinge. Veterineri w'inka akoresheje ga kugirango ataba yafata imyanda kuri we.

Igisiga kiri kurya inyama kirahagaze gifite amaso gari kureba gihagaze hasi ku butaka hirya hari ibyatsi ni igisiga gifite amababa yijimye.

Ingurube isa nabi cyane ntabwo ahantu irira ikorerwaga isuku. Reba ukuntu isa ingurube, ifite n'amajanja, ikagira n'amatwi n'umunwa guje imbere.

Inyoni iri kuguruka yashyize amababa abiri hejuru mu kirere, ibara ry'ibaba rimwe rifite umweru mwinshi, irindi rifite umweru utari mwinshi, kandi umunwa w'inyoni ufashe umuserebanya mu kanwa.

Inyoni ifite amababa gatandukanye hari mo, agasa n'umweru agandi gasa n'umukara, ifite umunwa gusongoye hasi, ifite n'amaso g'umukara.

Inyoni y'umukara ihagaze mu byatsi bisa n'icyatsi, irasamye, ifite umurizo, ikagira n'amaso.

Iyi ni inyoni ifite amabara gatandukanye ihagaze, ku maguru ni umutuku, inyuma ni umurizo gusa n'umukara, imbere ni umunnwa gusa n'umuhondo, n'amaso gasa n'umukara, ihagaze nk'ahantu hejuru hasa neza.

Inyoni ihagaze ku gitsitsi ni inyoni iri kureba imbere yayo ifite amababa g'umweru ikagira amababa g'umukara ifite umurizo gufite ibara ry'umukara n'umweru.

Urwumvu ruri hasi rusa n'icyatsi harimo umukara, ruri kugenda urugenda rukuruta inda hasi rufite amaboko abiri rukagira amaso areba n umukara kandi amaso yarwo areba urubonye akabona ruteye ubwoba.

Inyoni ihagaze ku matabi y'ibiti, ifite umurizo gusa n'umukara, mu mabondo hasa n'umuhondo, ifite amaguru agiye gusa n'umuhondo, ifite umunwa utari muremure cane, ifite n'amaso g'umukara.

Inyoni ihagaze ku giti n'amaguru abiri. Ifite amaguru y'umutuku, ikagira umunwa usongoye w'umutuku, ikagira umurizo munini cyane w'umukara n'ibara ridapika, ikagira utubara tw'umweru hejuru.

Inyoni ifite umunwa muremure ihagaze hasi mu byatsi ifite ibara ry'umweru, ikagira ibara ry'umukara, ifite umurizo utari muremure, ifite amaso asa n'umukara, irahagaze isa nkaho yibundikiriye.

Izi ni inyoni ziri kuguruka mu kirere, zigurukaga mu kirere zikaba zihagaze ku rutsinga rw'amashanyarazi, zikaba ari inyoni ziteye ubwuzu, inyoni nziza kandi inyoni ziri gusomana.

Ipusi ihagaze ifite amatwi arebye hejuru abiri manini, ikagira amaso ari kureba afite ibara ry'ikijuju, n'utuntu tumeze nk'utwoya twakuze cyane turi imbere ku munwa.

Imbogo iri mu ishamba iri kumwe n'icayo ciri iruhande, ifite amahembe asohotse mu mazuru, ikagira n'umunwa muremure.

Imbeba ihagaze ku ibuye, ifite umurizo, ikagira amagure ane, ikagira amatwi abiri, ikagira amaso abiri, umunwa, ikagira n'utwoya tw'imbere tureture.

Igiti inyoni iri kucyurira. Inyoni ifite umunwa muremure, mu gahanga ni umutuku. Ifite umurizo impande y'ico giti hariho ikindi giti gifite amatabi asa, amatabi ariho utubabi tw'icatsi.

Izi ni inyamaswa ziba mu majyaruguru iwacu i Musanze. Impara, imparage n'imbogo. Ni inyamaswa zitatse ubwiza bw'u Rwanda. Zikurura ba mukerarugendo baje kuzisura, bakatuzanira amadovize; akadufasha mu gutera imbere no guteza imbere Igihugu cyacu.

Ingagi irahagaze iri kureba imbere, iri kwitegereza inyuma hariho ikibambasi kiri mu ibara ry'ikijuju ridasa n'umweru kandi ridasa n'umukara. Ifite amaguru abiri n'amaboko abiri.